Hitamo ramba na buritamu ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, ntukagire impungenge mu gihe cyo kwivuza ubwishingizi bwo kwivuza ramba na buritamu nicyo bubereyeho.

Jyana ubwiteganyirize, bw'igihe kirekire, kugira ngo nugera mu gihe k'izabukuru uzabe utekanye. Mu gihe cyawe cy'amasaziro tekana kuko waganye ejo heza.

Ubwishingizi bw'inkoko, umworozi yishyurwa mirongo itandatu ku ijana, leta ikamuha nkunganire ingana na miringo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko.

Gura turi kumwe, ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'abagize umuryango wawe. Ubwishingizi buciriritse bwa radiyanti yacu. Hamagara, ni rimwe, umunani, rimwe, zeru, ukeneye ibindi bisobanuro.

Ramba na buritamu, ubwishingizi bwo kwivuza bwagenewe amatsinda n'ibigo bito. Ibindi bisobanuro wahamagara kuri zeru, karindwi, iminani itatu, ijana na mirongo icyenda n'umunani, zeru zeru, zeru.

Rinda umuryango wawe ugura ubwishingizi bw'ubuzima, turi kumwe kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, cyangwa usure urubuga wa eshati radiyanti yacu akadomo rawa.

Dufashe uyu mwanya ngo tubashimire ikizere mukomeje kutugirira no kuba mwarahisemo gukorana natwe tubifurije icyumweru cyiza cyahariwe abakiliya.

Hamwe na sosiyete y'ubwishingizi ya radenti ubwishingizi bw'ingwate na bwo ni igenzi ubu bwishingizi bw'ingwate mu bapiganira amasoko atandukanye, ubashe gushinganisha amasoko waguze.

Gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego maze Radiyanti ikwereke uburyo wakishinganishiriza ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abawe.

Ubwishingizwe buzwi nka buritamu baragufasha n'igihe imodoka yabo yagize ikibazo kuburyo itabasha kuva aho iri babishyura na baragideni iza kuyihakura hitamo beretamu inshuti y'ibihe byose.

Radiyanti yacu limitedi igisubizo cy'ubwishingizi bw'amatungo, itanga indishyi zikomoka ku masezerano y'ubwishingizi bw'amatungo, borozi mugane radiyanti ibafashe.

Tugane ikigo cy'ubwishingizi cya ariyanse, ubu kirakorera mu Rwanda, ni ngombwa y'uko dushinganisha ibyacu kugira ngo nihabaho igihe byahuye n'impanuka, tuzabone ikitugoboka.

Tegura urugendo rwawe ntiwibagirwe gufata ubwishingizi bw'ingendo zijya mu mahanga' Muri radiyanti inshuwarensi isezerano ni isezerano hamagara zeru karindwi umunani umuni umunani gatatu umunani icumi ikenda gatatu.

Ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda cya Britam, gendana icyizere buri ntambwe y'urugendo, hitamo Britam inshuti y'ibihe byose nawe wishinganishe.

Banza gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye, kugirango ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza, hamagara zeru karindwi umunani umunani, mirongo itatu n'umunani icumi mirongo cyenda na gatatu, ugure ubwishingizi.

Ishyura mituweri do sante ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga wifashishije telefone yawe. Urabona ubutumwa bukubwira yuko dosiye yawe isaba kwishyura mituweri ifite kode yo kwishyuriraho umubare barawukwereka yoherejwe neza amafaranga uzishyura na yo barayakubwira.

Ushobora gukenera kugura ivarize yo kubikamo imyenda yaba mu rugo cyangwa iyo gukorana urugendo wegera aho ziri, ugure iyo ushaka hari ingano zitandukanye n'amabara atandukanye.

Imyambaro y'ibitenge ku babyeyi ni umwenda ugaragara neza, ushobora kudodeshamo ikanzu cyangwa ukadodeshamo ibizwi nk'iribaya. Egera aho bicururizwa, uhitemo ibara rikunogeye.

Igihe ucuruza imyenda ibuka gushaka ibyo uyimanikaho kugira ngo umukiriya uzaza akugana bizamworohere gutoranyamo uwo yagura, nawe bizakurinda guhora uyizinga bya buri kanya.

Hari ubwo uba wumva ukeneye kwitabira ibirori ukeye, cyangwa se no kujya mu kazi ukeye kurushaho, ugera ahacururizwa amakositime bakwambike witabire ibirori ukeye kandi usa neza.

Mu Rwanda dusigaye dufite imyenda myiza ikorerwa hano iwacu, izwi ku izina rya medi ini Rwanda igihe ukeneye uwo mwenda ari abatayeri ndetse n'abafite inganda bakora iyo myambaro.

Imyenda yiganjemo imipira izwi nka Lacoste, iracyaboneka ahantu henshi hagiye hatandukanye haba hari n'amakote ndetse n'inkweto zo kwambara.

Igihe ucuruza ibuka ko hari abakiliya baza bakugana badasobanukiwe ibyo ucuruza. Basobanurire, kandi wandike n'inyemezabwishyu igaragaza ibyo baguze.

Ushobora gutekereza ko ubonye igitenge havamo iribaya gusa. Ariko wadodeshamo n'ikote, hari abatayeri bazi kubidoda kandi ugasanga uwo mwenda urakeye.

Ni imipira ikozwe mu budodo, iri mumoko ndetse n'amabara bitandukanye. uwo ushaka wose modeli iyo ari yo yose bayikudodera, abe umuremure cyangwa umugufi ndetse hari n'amakanzu nayo aba adozwe mu budodo.

I Kigali naho hasigaye hacururizwa imodoka, niba uyikeneye hamagara iyi nimero nawe wigurire imodoka. Zeru karindwi umunani, gatandatu gatatu, gatatu umunani kane, icyenda kane.

Ntakuba ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariko ukaba warabuze icyo wakoresha egera abafite imodoka zitwara abantu baguhaye akazi kuko mu rwanda hari amakwasiteri menshi akeneye abashoferi.

Kuba ukeneye kugura imodoka yo mu bwoko bwa suzuki, ubu si bikiri ngombwa ko ujya i mahanga no mu Rwanda zirahari, ku mafaranga miliyoni cumi n'umunani urayibona, kandi iba ari nziza kuko ni izasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.

Ikigo k'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa, ubu gifite imodoka zigeza imfungwa aho zigiye kuburanira, zitanyagiwe. Ntago bikiri nka mbere, ubwo babaga bafite imodoka zidasakaye.

Niba ukeneye imodoka yo mu bwoko bunini, ubu ntabwo bikigoye kuyibona, wakwegera akagera bakayiguha, ntabwo bikiri ngombwa ko ujya kuyigura hanze, bigufashe urugendo rurerure, bikagutwara n'amafaranga menshi yo kujyayo.

Banki nkuru y'u Rwanda yakoze inote ya magana atanu amafaranga y'u Rwanda kandi iyi note yemewe n'amategeko. Iyo ariyo yose ntago yemewe kwiganwa.

Banki nkuru yasohoye inote y'amafaranga igihumbi. Kandi iba isinyeho abantu batandukanye harimo umukuru wa banki, ndetse n'uwumwungirije. harimo n'izindi note zigiye zihari mu mafaranga y'u rwanda

Amafaranga igihumbi y'Urwanda. Banki nasiyonari y'Urwanda. Itegeko rihana umuntu wese uzigana iyi noti, hamwe n'anyandi mafaranga yose akorwa n'Urwanda, ntago yemerewe kwiganwa.

Wowe ubwawe bitewe n'ubwinshi bw'amafaranga uri kubara ushobora kwibeshya, ariko wakifashisha utwuma twabugenewe tukagufasha kubara ayo mafaranga kugira ngo bitakuviramo igihombo.

Inote y'igihumbi y'amafaranga y'urwanda ishushanyijeho ikigo ndangamurage cy'urwanda hariho n'ingagi iranga ubukerarugendo bwo mugihugu cyacu.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Inoti y'amafaranga igihumbi y'u Rwand, igaragaramo igishushanyo cy'ingagi kandi ingagi zituzanira amadovize mu gihugu cyacu aho ba mukerarugendo baza kuzisura bakishyura ayo mafaranga.

Amafaranga magana atanu y'u Rwanda, hariho abana bari kwigira kuri mudasobwa, Minisiteri y'uburezi yatekereje neza ko n'abana bagomba kumenya ikoranabuhanga bakigira kuri za mudasobwa kugira ngo barusheho kugendana n'iterambere rigezweho.

Banki nkuru y'u Rwanda yakoze inote y'amafaranga ibihumbi bitanu. Dukomeze kubungabunga amafaranga yacu twirinda kuyakoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko aho hari abayigana.

Niba ukora ubucuruzi tondeka neza ibicuruzwa byawe nkamazi ndetse nimitobe ikamuwe mumbuto harimo iyikozwe mumyembe na pome ndetse nikozwe muri tangawizi.

Uyu ni umugabo wambaye imikenyerero, yambaye urunigi mu ijosi. Imikenyero ni imyambaro kera abanyarwanda bajyaga bambara ariko n'ubu turayikoresha kuko n'uyu ni imyambaro y'umuco wacu, arimo aravugira ku ndangururamajwi, inyuma ye hari intebe z'imyeru hari n'icyapa kimushushanyijeho, hicaye abantu bisa nk'aho bamuteze amatwi wumva ibyo ababwira.

Ifashishe nimero ikurikira: zeru karindwi icyenda zeru kabiri karindwi kane kane umunani icyenda, maze ubone amata meza y'uruganda rwa Nyanza, ku giciro cyiza.

U Rwanda twafashe gahunda yo guca amashashi kuko yangizaga ibidukikije akabangamira n'ubutaka, amazi ntageremo uko bikwiriye ni yo mpamvu twafashe umwanzuro wo gukoresha amvelope, zo kuko ntacyo zitwara ubutaka.

Kwishyura utavuye aho uri ibyo watumamije ugakoresha ikoranabuhanga, ku bizwi nka onolayini, ukishyura ukoresheje emutiyene mobayilo mani, cyangwa tigo kashi ndetse na eyateli mani nayo wayikoresha.

Mu rwego rwo gukoresha itumanaho rya emutiyeni mobayilo mani, wakohereza n'amafaranga mugihugu cya Kameruni. Itabire izo serivise niba ufiteyo umuntu, ufashwe koherezayo amafaranga, kuburyo bworoshye.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Zigamira itangira ry'amashuri, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro izigamire na sipeni supa seva guhera none ugire ubwishingizi ku mashuri y'abana bawe.

Abahagariye BK hirya no hino, baba bafite kashe ziriho amazina yabo n'ikirango cy'iyo banke, kugirango umuturage uje kubitabaza, yaba ar'ukwishyura amafaranga ku yindi konte, ashyireho niyo kashe ku gipapuro ari bumuhereze kigaragaza ko yishyuye.

Igihe ugannye ikigo cy'igihugu gishinzwe cy'imisoro n'amahoro aricyo Rwanda Revenue Authority baguha urupapuro rwemeza y'uko wishyuye umusoro ubereyemo icyo kigo.

Hari icyemezo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gitanga ku muntu utarimo umwenda. Ishyura imisoro yawe nawe uhabwe icyemezo bizagufasha no gukora ibindi bikorwa byawe.

Nk'abanyarwanda tugomba kuzirikana kwishyura imisoro, kuko igira akamaro mu bikorwa byinshi bitandukanye, haba kubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, harimo ndetse n'imihanda.

Hari ibihugu byinshi bigaragaza amafaranga yabyo uko aba ahagaze, mu gihe cy'igura n'igurisha harimo amayero, harimo n'ay'ibindi bihugu nka Kanada ndetse n'ahandi nko muri Ositaraliya.

Ni amafaranga akozwe mu byuma azwi nk'ibiceri ntabwo ari inote gusa zikoreshwa, gusa bifasha ukeneye kugarurirwa mu gihe yatanze inoti hari ayo bagomba kumusubiza.

Ifaranga rimwe ry'inote yo mu gihugu cya Kongo. Ririho abantu batatu bashushanyijeho, baboshywe iminyururu ku maboko yabo, bicaye.

Hari amafaranga y'ibihugu bitandukanye uyakeneye wagana garagisi foregisi biro hanyuma bakaguha ay'igihugu ushaka harimo Ubushinwa, Ubuyapani, Kanada, Ositaraliya ndetse na Kenya.

Ufite amafaranga ushaka kuyahinduza mu y'amahanga cyangwa se amanyarwanda egera mani garamu bakuvunjire, ku bindi bisobanuro wahamagara zeru karindwi umunani makumyabiri na kane mirongo itandatu n'umunani magana abiri na cumi n'umunani.

Gaka koje banke, wizigamire, kugira ngo uzajye uhabwa inyungu bitewe n'amafaranga wizigamiye, hari inyungu uhabwa. Iyo gahunda na yo irahari muri koje banke.

Ufite amafaranga y'amanyamahanga ukeneye amanyarwanda, cyangwa ufite amafaranga y'amanyarwanda ukeneye amanyamahanga, wakegera ibiro bishinzwe kuyahindura bakakuguranira bakaguha ubwoko bw'amafaranga ukeneye.

Ikaze mu biro bivunja amafaranga. Igihe ufite amanyarwanda ukeneye amanyamahanga begere bakuguranire, cyangwa se ufite amanyamahanga ukeneye amanyarwanda, nabwo baragufasha bakaguha ayo ukeneye.

Igihe wumvishije mu mubiri wawe hatameze neza, egera ivuriro rikwegereye uhabwe ubufasha bujyanye n'ikibazo basanze ufite kandi n'iyo basanze batabashije kuvura cyangwa kumenya ikibazo ufite bakohereza n'imbangukira gutabara ku kigo kindi kibasumbije ubushobozi.

Imitako myiza ibereye ijisho washyira munzu iwawe kandi nitware umwanya kuko yomekwa kugikuta kandi ugasanga igaragara neza singombwa ko ukoresha iyi indabo utereka kumeza gusa niyingiyi wayishyira munzu hakarushaho kugaragara neza.

Hari intebe nziza washyira aho mufatira amafunguro mu rugo, ndetse n'amezaza yayo bijyanye maze mukicaraho mugafata amafunguro buri wese akumva aguwe neza.

Igihe cyose wubatse inzu ujye uzirikana gushjyiramo ibikoresho byiza cyane, n'ibyo abantu bicaraho kandi n'ameza baterekaho bagiye gufata amafunguro, kugira ngo babone uko bayafata bameze neza.

Hari ahantu henshi heza hatandukanye wasohokera, kandi waba ukeneye no koga, hari na pisine ujyamo ugakora na siporo, ari ugutembera gusa, ukaba ugoroye n'umubiri wawe.

Hari uburyo bwiza watunganya ahantu ukorera bakarushaho kugaragara neza wifashishije imbaho ugakoramo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza.

Niba ushaka kurara neza ngo ubyuke nt'amavunane ita kubyo uraraho habe igitanda cyangwa amashuka ubyiteho kandi ubigirire isuku bizatuma ubyuka wumva umeze neza.

Tegura amafunguro neza abe ayo mu rugo cyangwa se aho ukorera, wibuke kwambara ingofero zipfutse mu mutwe kugirango ayo wateguye utaza kubonekamo imisatsi.

Ikigo cy'ubwishingizi cya purayime gifite ishami mu karere ka Rusizi. Igihe ufite ikibazo K'ibyo ushinganisha si ngombwa ngo uze i Kigali, bakwegereje serivise aho ngaho utuye irusizi.

SONARWA ni ikigo kimaze igihe kinini hano mu Rwanda cy’ubwishingizi, shinganisha amashuri y'abana bawe cyangwa ubuzima ndetse ushinganishe n'inyubako zawe cyangwa ibinyabiziga.

Irembo ni urubuga rwashyiriweho abanyarwanda, kugira ngo bajye bahabwa serivisi zitandukanye harimo n'ibyangombwa, bajyaga bajya gusiragira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo babiboneyo. Ubu byarorohejwe byose barabisanga ku irembo.

Gana sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti, kuri bo isezerano ni isezerano, tubagane waba ufite ibinyabiziga ndetse n'amatungo nayo uyatangira ubwishingizi, bityo bakazakugoboka mu gihe cy'amage.

SONARWA ni ikigo kimaze igihe kinini hano mu Rwanda cy’ubwishingizi, shinganisha amashuri y'abana bawe cyangwa ubuzima ndetse ushinganishe n'inyubako zawe cyangwa ibinyabiziga.

Gushinganisha ibikorwa byawe cyangwa ibyo utunze by'ingenzi. Ni ngobwa ko twitabira ibigo by'ubwishingizi tukabigana, kugira ngo igihe twagize ikibazo mu byo dufite bazadufashe umuzima bukomeze butadidiye.

Hari banke zashyizeho gahunda yo guteza imbere umugore, na agisesi banki ntago yabibagiwe yashyizeho gahunda y'iterambere rya buri mugore, mwitabire kwizigama muri ino banki bakugezeho iyi gahunda.

Banki ya Kigali yashyiriyeho abakiriya bayo, uburyo wakuzuza ifishi ugasaba inguzanyo, hari n'ahuzuzwa umwirondoro w'uwo mwashyingiranwe.

Tubirimo na mokashi. Ni uburyo emutiyeni yaryenye, wakoresha ukabika amafaranga yawe kuri telefone ngendanwa, cyangwa ukayabikuza bitewe n'ayo ukeneye.

Wafungura konti muri banki agisesi utavuye aho uri, nyaruka birihuta kandi biroroshye ku ibindi bisobanuro wabahamagara kuri telefone ze karindwi iminani bibiri cumi na kane magana atanu mirongo itatu, zeru.

Munyarwanda, munyarwandakazi ibuka kugira ububiko mu kigo k'imari cya banki y'abaturage y' u Rwanda kugira ngo ejo n'ejobundi nugira ikibazo ubone uko ugikemura hari amafaranga wizigamye.

Ibyuma bikoreshwa mu mashanyarazi bigaragaza aho biteretse, bizwi nka "hotetansiyo" ni ibimenyetso bigaragariza buri muntu wese ko aho hantu hari danje agomba kutahegera.

Ibikoresho gakondo bikoreshwa hano mu Rwanda nk'imitako, utuntu two gutwaraho imfunguzo, imbehe, hamwe n'utundi dukoresho two kurambika ku meza ugaterekaho ibintu.

Tegura amafunguro yawe, wibuke no guteguramo ayatera imbaraga nk'igitoki. Ni kiza kandi kiboneka ku mafaranga makeya, wagura ikiro kimwe cyangwa se ukakigura cyose.

Amasoko ashaje ubu hariho gahunda yo kugenda avugururwa cyangwa akimurirwa ahandi, kugira ngo bitazajya biteza ikibazo ku bayakoreramo kuko byagaragaye ko hari n'igihe baterwa n'imyuzure igihe cy'imvura nyinshi.

Hari aho tugera tugasanga abana batoya bari mu kigero cyo kuba bakabaye bari ku ishuri bari gukara ubucuruzi, rero mubyeyi mu gihe ufite umwana mwiteho igihe cyo kwiga agane amasomo bizamuviramo kuba umuntu mukuru kandi wagira icyo abasha kwigezaho.

Imboga uhaha ugereka anyanya, pavuro, imiteja, kokombure, amashu ndetse n'ibindi birungo wavangamo bikongerera uburyohe amafunguro wateguye.

Tegura amafunguro yujuje ubuziranenge ugure imboga zitandukanye harimo inyanya, kokombure, ibibiringanya, intoryi ndetse n'amashu y'umweru nayo araboneka.

Hari inyubako nyinshi zigiye zubatse ku mihanda zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Nawe niba ufite amafaranga egera abazubatse, hanyuma nawe ufatemo umuryango ubashe kwiteza imbere.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Mu mafunguro utegura iwawe ujye wibukamo n'indagara kuko nazo zigira intungamubiri nyinshi, igihe udafite amafaranga ahagije yo kugura amafi manini cyangwa se izindi nyama wakoresha indagara kuko nazo ni ingenzi.

Gana abacuruzi bacuruza inkweto wigurire inkweto ibereye ikirenge cyawe, hari iza siporo ndetse n'izindi zisanzwe batemberana n'izo wajyana mu kazi zose baba bazicuruza.

Hahira mu isoko rya Kimironko kugira ngo ugure imboga zikimeze neza. Hariyo n'ibishyimbo by'ibitonore ndetse n'amashaza y'urunyogwe, baba bafite n'ibitunguru, n'ibindi bicuruzwa bijyanye n'imboga.

Igihe ugiye kugura imbuto, ibuka kureba izikimeze neza kandi uhahe ubwoko butandukanye kuko zose ziraboneka. Habe imineke, imyembe, inanasi, ibinyomoro, amatunda na pome.

Niba ukeneye imitako y'ubwoko bwinshi butandukanye igeraho icururizwa wigurire iyo ujyana mu rugo, hari n'iyo gutegura ku meza ndetse n'iyo kumanika ku bikuta by'inzu hari n'iyo wakambara ku mubiri wawe.

igihe ugiye guhaha imboga uzibuke kureba izikimeze neza, kugira ngo utazatwara izamaze kwangirika, wazitunganya ugiye gutegura amafunguro, bikaviramo abo wayateguriye guhura n'uburwayi bukomoka kuba bariye ibutujuje ubuziranenge.

Isoko rya Kimironko riherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Hacururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo abadoda ndetse n'abacuruza imyenda, n'ibindi biribwa.

igihe wahashye amafi ujye wibuka kuyatunganya neza ukuremo imyanda yose irimo kandi tuzirikane ko amafi agira intungamubiri nyinshi ni ngombwa kuyahaha kenshi mu rugo kandi ukazirikana yuko ugomba no kuyaha abana inshuro nyinshi.

Hari ahantu henshi hacururizwa imyambaro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, harimo amashuka ndetse n'amarido, igihe uguzamo umwenda utagukwiriye, haba hari abadozi bawukugabanyiriza cyangwa ukajyana ibipimo bakakudodera uwo ukeneye.

Udusoko twinshi tubera ku mihanda turi hirya no hino mu gihugu, dufasha abahatuye kuko hari igihe uba wibagiwe guhaha mu isoko rinini hanyuma wagera muri karitsiye ukabona aho uhahira.

Abacuruzi bazwi nk'abazunguzayi, bacuruzira hirya no hino mu gihugu. Ariko bashyiriweho amasoko, ni byiza yuko bayagana, aho kugira ngo bajye bahora barwana n'izego zishinzwe amasuku ndetse n'umutekano mu gihugu.

Nta yandi mafaranga wishyura. Koresha Momo Pay, wishyure ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri, akanyenyeri urwego, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri, nimero ikoreshwa n'uwo mucuruzi, urwego, ubundi wishyure.

Twa n'umuvuduko wa interinete ya foji, aho waba uri hose ubungubu ukoresha emutiyeni, yashyizeho uburyo bwiza bwo kubona interinete yihuse.

Umurongo wose waba ukoresha yaba airtel mani cyangwa emutiyene mobayiro mani. Wakoherereza umuntu amafaranga kandi bigatwara igiciro gisanzwe, kuko ubu byarohejwe ni nk'aho byose byahurijwe hamwe.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu urwego kugirango ubike amafaranga yawe kuri mokashi ni serivise MTN yageneye abakiriya bayo.

Emutiyeni irashishikariza abakiriya bayo ndetse n'abandi bayigannye mbere kwibuka gukoresha akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza ukishyura ukoresheje momopeyi.

MTN ikigo kitumanaho gikorera hano mu Rwanda gikomeje kudabagiza abakiliya bacyo, aho cyasizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo kubasha haba mu kohereza amafaranga cyangwa no kugura amainite yo guhmagara.

Hari ubwo ugira ikibazo kuri telefone yawe ngendanwa nka simukadi ugasanga ntikora cyangwa se umubare wawe w'ibanga ukoresha kuri mobile mane bawufunze , egera abakozi ba emutiyeni bari hirya no hino bagufashe bagusobanurire uko ikibazo cyawe cyakemuka.

Eyateri umurongo mugari w'itumanaho kandi wizewe uri hirya no hino mu gihugu igihe ukeneye gukoresha serivisi zabo egera abacuruzi bagiye bashyirwaho hirya no hino babahagarariye bagufashe.

Ishyura ukoresheje uburyo MTN yagennye buzwi nka momo peyi ntayandi mafaranga wishyuzwa, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu urwego, ushyireho na kode yahawe uwo mucuruzi.

Abakozi bakorera emutiyeni mu duce dutandukanye, bayihagarariye. Kugira ngo niba ukeneye kwizigama amafaranga ugende bayakubikire kuri telefone yawe nawe, ejo azakugirire umumaro utayangije.

Mtn yashyiriyeho abaturage uburyo bwiza bwo kwishyura ibyo bafashe, wifashishije telefone yawe ngendanwa, ugakanda ukishyura amafaranga y'ibyo wafashe utagize ayandi ucibwa ya serivise.

Uyu ni umuntu uri kwamamaza izi nkweto ko zigura amafaranga maganatanu y'amanyarwanda bagatanga n'urubuga ko rwitwa kigure akabomo rawa.

Uruganda rwa Nyirangarama rukora ibikorwa byinshi bitandukanye harimo ibiribwa bizwi nk'amandazi afite izina "urwibutso". Bagira n'ibindi byinshi bakora harimo imitobe ikamuwe mu matunda.

Igihe gukoresha imbugankoranyambaga, ushobora kubonaho ikintu ukabona uragikunze ,niba ubonyeho inkweto gana urubuga WWW akadomo kigure rw muri Kigali barakikugezaho kubuntu, niba utuye munkengero cyangwa hanze yumugi wa Kigali ni amafaranga igihumbi ubundi kikakugeraho.

Mwisoko rya kimirinko hari uburyo bashyizeho, uhaha wifashishije ikoranabuhanga bakakugezaho ibyo wabatumye, kubikugezaho ni Ubuntu, ukishyura amafaranga y' ibyo wahashye ibihumbi mirongitatu na bine na maganatanu yurwanda.

Mu rwanda hari abacururiza ku ikoranabuhanga nko mu Rukari. Wabagana ugatuma ibyo ukeneye byose bakabikugezaho utiriwe uva aho uherereye guhaha wifashishije ikoranabuhanga na byo ni byiza biradufasha.

Vuba vuba barakugezaho ibyo watumije mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Hamagara, bakugezeho ibintu utavuye aho uri, kandi ibyo waba ukeneye byose urabibamenyesha, bakabikuzanira.

Ushobora kuba wumva ukeneye kuruhukira ahantu heza mu mujyi wa Kigali, ku mafaranga igihumbi na magana abiri y'amadorari buri kwezi, urabona inzu nziza waruhukiramo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Kiza giheherereye mu karere ka Kicukiro wakigura miliyoni magana atatu ndetse n'ibihumbi magana atanu ugikeneye wahamagara zeru karindwi, umunnani umunani umunani, mirongo itandatu na rimwe, zeru mirongo icyenda nicyenda.

Ushobora kuba ukeneye aho waruhukira wowe n'abawe, waba uvuye mu mahanga cyangwa uri ino aha mu gihugu. Mu Rwanda hari ibyumba byiza byabugenewe byo kuruhukiramo, aho wishyura amafaranga y'amadorari igihumbi n'ijana, ku kwezi.

Hari inyubako zubatse ahazwi nka Kacyiru, aho uba uri witegeye ureba ikibuga gikinirwamo umukino wa gorufe, giherereye ahongaho Kacyiru.

Niba ukeneye ahantu ho kuruhukira heza, mu karere ka Gasabo, Umurenge wa Kacyiru, mu mujyi wa Kigali, hari amacumbi meza, aho wishyura amafaranga igihumbi na magana atanu y'amadolari ku kwezi, bakaguha aho uruhukira.

Igihe ufite amafaranga nta mwanya uhagije ufite wo kubaka inzu, hari ababonye uko bazubaka wabagana ukayigura nawe ikaba iyawe, mu mugi wa Kigali ufite miliyoni mirongo ikenda n'eshanu (95,000,000rwf) urabona inzu nziza

Wabona inzu nziza, hano mumujyi wa Kigali yo kubamo, nini ifite igikoni kigezweho cyo munzu, ku kwezi ukishyura amadorari ibihumbi bibiri. Ni nziza.

Ushobora kuba warabuze uko wubaka inzu ariko ukaba ufite amafaranga, wayigura kuko hari abazubatse bakeneye kuzigurisha hano i Kigali ufite amafaranga agera kuri miliyoni milongo irindwi n' ebyiri urabona inzu nziza ijyanye n' igihe.

Mu karere ka Gasabo, Kibagabaga m'umujyi wa Kigali, hari aparitema igurishwa, ni amadorari igihumbi, magana atatu na mirongo itanu, ukaba urayiguze ibaye iyawe.

I Kigali kabeza mu murenge wa Kanombe, wahabona inzu yo kubamo wakwishyura amafaranga magana atanu mirongo itanu buri kwezi y'amadolari.

Wabuze umwanya wo kubaka inzu yawe, ariko ufite amafaranga. Hari abazifite, begera, hanyuma nawe wigurire inzu nziza, hano mu mugi wa Kigali, amafaranga y'u Rwanda miliyoni ijana na mirongo itatu, urayibona.

I Kigali mu Rwanda hari inzu zigurishwa zubatswe. Igihe ufite amafaranga wayibona kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, wayigura.

Mu karere ka Gasabo, umurenge wa bumbogo, musave hari ibibanza binini wagura kuri miliyoni cumi neeshanu i hano mu mujyi wa kigali begere hanyuma ugure ikibanza magara zeru karindwi umunani makumyabiri na gatanu cumi n'ikenda kabiri mirongo ine.

Mu murenge wa Gisozi, ahazwi nka Kagugu, ni mu mugi wa Kigali, mu karere ka Gasabo. Hari inzu nziza, igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni magana atatu, mirongo itanu.

Mu mujyi wa Kigali Kabeza hano mu gihugu cy'u Rwanda wahabona ibyumba byiza aho wishyura amadolari agera kuri magana atanu mirongo itanu ku kwezi ugahabwa icyumba gisa neza cyane.

Ahazwi nk'i Batsinda ni mu mujyi wa kigali ukomeje za Kagugu, urahabona inzu nziza ifite ibyumba bine byo kuraramo n'ibyumba bibiri by'ubwogero ,ku mafaranga ibihumbi magana atatu y'u Rwanda.

Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali hari inzu ikodeshwa igizwe n' ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n' ibindi bitatu by' ubwogero ku madorari magana ane urayibona.

Remera mu mujyi wa kigali hari inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe cyo kuraramo n'ikindi kimwe cyo kongeramo ni heza kandi ifite n'igikoni cyo muzu.

Amatora akorerwa mu Rwanda hagamijwe gushaka abayobozi mu nzego zitandukanye akorwa mu mucyo, aho abayitabiriye batorera ahantu habugenewe kandi bagashyira amajwi yabo ahantu hamwe akabarwa ku mugaragaro.

Mu mujyi wa kigali akarere ka kicukiro urahabona inzu ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana ane buri kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, n'ibindi byumba bibiri byo kogeramo.

Kuko ushobora kubona amafaranga, aho kugira agupfire ubusa igihe udafite umwanya wo kubakisha iyawe nzu, hari abazubatse wageraho ukayigura nawe ugatunga inzu yawe udakomeje kugenda ukodesha hirya no hino.

Niba ugiye kubaka inzu, yaba iyo kugurisha cyangwa guturamo, ibuka gushyira amabuye yabugenewe mu mbuga kugira ngo uyongerere agaciro kandi ntuzibagirwe gushyiraho n'ubusitani buzajya buzana umuyaga n'umwuka mwiza mu rugo.

Hari inzu ziba zubatse neza ku buryo ushobora kuyigura ukizera ko uguze inzu ikomeye kandi igendanye n'igihe. Kuri miliyoni mirongo icyenda mu rwanda urahabona inzu nziza ikomeye.

I Kanombe mu Mujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro, hari inzu ikodeshwa. Wajyayo nawe ukayikodesha igihe uyikeneye, bifite ibyumba bine byo kuryamamo ndetse n'ibyumba bitatu byo kogeramo.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Ukeneye inzu ikodeshwa wahamagara zeru karindwi umunani makumyabiri na gatandatu mirongo ine na karindwi mirongo inani n'ikenda. Harimo iyifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'ubwogero bubiri.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kagarama, iragurishwa amadorari ibihumbi cumi na bibiri ni nziza wayigura.

Ku Gishushu naho wahabona inzu wakwishyura amafaranga atari menshi nawe ukabasha kuyibamo, ni amadorari magana ane wishyura buri kwezi ni hafi ya raadibi.

Kumadorari ijana na mirongo ine, iyi nzu wayibamo mumujyi wa Kigali. Ni nziza kandi urebe ko igeretse ifite n'imitako myiza, hanze hashashe amapave ateye amabengeza.

Niwubaka inzu y'ubucuruzi uzibuke gusiga umwanya w'aho ibinyabiziga byaparika kuko iyo hari abakoreramo bagakenera gukoresha parikingi birabagora bagashaka ahandi bagomba no kwishyura.

Siti imaze imyaka icumi ihereza ibyo icuruza abakiriya bayo. Bari gushimira abayigana, mu gihe cyose babanye, bababwira ngo :"mwarakoze kubana natwe, mukomeze mutubere abakiriya beza."

Ntubona umukiriya aje akugana yaba ari uw'uruhu rwera cyangwa rwirabura uzamwakirane ubwuzu kuko igihe aje kukugurira nawe aba akeneye kwitabwaho kandi ntuzamuhende ngo ni uko ari uwo mu kindi gihugu cy'amahanga.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Mu rwanda habera imurikagurisha buri mwaka. Ni muri urwo rwego ibihugu bitandukanye bizana ibicuruzwa muri iryo murikagurisha bikabigaragaza, ababikeneye bakajya bamenya aho babisanga.

Zirikana kugura inzitiramubu, kandi wibuke kujya wongeramo umuti igihe washizemo, uyimanike mu cyumba uraramo kugira ngo utazarwara malariya.

Imurikagurisha ribera mu rwanda buri mwaka, haba harimo ibikoresho byaturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nawe wajya uyarukira yo ukigurira ibyo ukeneye, harimo amasakoshi y'abadamu, n'inkweto ndetse n'imikandara, harimo n'ibikapu binini.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Ikarita y'umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza, igira nimero iyiranga kandi tuzirikane ko uyifite atarembera mu rugo, yagenwe na minisiteri y'ubuzima, aha ikaba ikorera mu ntara zose.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda kirashishikariza abantu bose kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Kugira ngo igihe wahuye n'ikibazo cy'uburwayi uzahite wegera ivuriro rikwegereye, baguhe ubufasha.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, izwi nka mitiweri, ni ngombwa kwishyura mitiweri buri mwaka, kugira ngo uzabone uko wivuza, kandi uzibuke no kwishyurira umuryango wawe.

Waratanzwe niba utaritabira gahunda ya leta ya ejo heza, ubwizigame bw'igihe kirekire. Igihe ufite imbaraga zo gukora, zigamira izabukuru muri ejo heza, kuko bizagufasha numara gukura.

Ejo heza ni gahunda yahyiriweho abanyarwanda, kugirango bazigame amafaranga azabadasha mu gihe Kiri imbere, bakuze ,abafasha bageze muzabukuru,,kandi uzigamira n' abana bawe nayo aKazabafasha mumyaka ari imbere ndetse bakaba banabasha no kwishyurirwa amashuri.

Iki ni cyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, inyuma hari ibara ry'ubururu bicaye bose ku ntebe nziza cyane, kandi imbere yabo bose bafite indangururamajwi kugirango baze kumvikana, imbere yabo hari uyoboye iyi nama wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ari kuvugira mu ndangururamajwi kugira ngo abakurikiye inama bose babashe kumwumva.

Igihe wumvishije mu mubiri wawe hatameze neza, egera ivuriro rikwegereye uhabwe ubufasha bujyanye n'ikibazo basanze ufite kandi n'iyo basanze batabashije kuvura cyangwa kumenya ikibazo ufite bakohereza n'imbangukira gutabara ku kigo kindi kibasumbije ubushobozi.

Igihe ucyeneye guhaha ibintu byiza kandi ukabihahira ahantu heza egera alimantasiyo uhahemo ibintu byinshi kandi bitandukanye harimo imitobe ikozwe mu mbuto zitandukanye izikoze mu maronji, izikoze mu ndimu ndetse n'izikoze mu mwembe.

Turusheho kwitabira gahunda y'ikoranabuhanga, kwishyura dukoresheje telefone zacu ngendanwa, Emutiyeni yagennye uburyo bwo kwishyura dukoresheje akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu urwego tugakurikiza amabwiriza.

Sitasiyo ya Simba yafunguye amashami yayo hirya no hino, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Tuyigane kugira ngo twigurire ibicuruzwa bafite, birimo ndetse n'ibiribwa bihiye, byagufasha utiriwe ujya guteka igihe udafite umwanya.

Ubucuruzi bugezweho nugupanga ibintu muri arimantasiyo yawe ukibuka gushyiraho udupapuro turanga icyo kintu amafaranga kigura bikorohera umukiriya uje abagana.